Icyapa cyamamaza sosiyete nini itanga serivisi z'ubwishingizi, kigizwe ahanini n'ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, avuga ati "ese wari uzi ko hari ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse bwagenewe ibigo bitandukanye?

Icyapa cyamamaza cya sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi kiri mu ibara ry'umweru wiganje ndetse n'ubururu hariho inka, inkoko ndetse n'ingurube kirivugira mu magambo agira ati tukugoboka mu gihe cy'amage, tugane uhabwe ubwishingizi bw'amatungo yawe worore witeze imbere nta mbogamizi.

Urubuga rwamamaza cyangwa se icyapa kiriho amashusho y'abantu babiri batandukanye, bagaragara intoki zabo cyangwa se amaboko yabo, abo bantu babiri umwe asa nk'umuganga ndetse undi asa nk'umurwayi, umuganga arasa nk'upima ukuboko k'umurwayi, kuri icyo cyapa se cyangwa kuri urwo rubuga hari andi magambo ari munsi y'iryo shusho yanditseho ibyishimo by'umuryango ni ukudahangayikira ahazaza, hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza bwawe n'ubw'umuryango wawe.

Icyapa cyamamaza sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi, hariho abagore babiri n'amazina yabo yanditse mu ibara ry'umutuku, inyuma yabo hari ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umutuku.

Icyapa cyamamaza ibyerekeranye n'ubwishingizi, kikaba gishinze ahantu mu kirere, kikaba kandi cyandikishijeho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza cyerekana ko ari ubwishingizi bwizewe, icyo cyapa kikaba kiriho kandi inyanja hagati harimo inyubako nini cyane twakwita nk'iminara cyangwa se amazu.

Umugabo cyangwa se umusore wambaye ingofero arimo aseka yambaye umupira w'amaboko magufiya akaba afite telefoni mu kiganza cye kimwe ayitunze imbere asa n'uwamamaza cyangwa yerekana iby'ikigo cy'ubwishingizi mu rwanda gitanga serivisi zitandukanye z'ubwishingizi munsi hakaba hari amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza avuze uti ongera ubwishingizi bwawe mu minota mike wishimire iminsi mikuru utuje.

Urubuga rwa porogaramu ya banki rwerekana mu ishusho ya terefoni cyangwa se mu kirahuri cya terefoni; hakaba harimo ikiganza gifite terefoni mu ntoki ndetse hakaba ariho nimero ya konti, amazina ya konti, aho wemereza ibyo wahisemo cyangwa se ukabihakana.

Urubuga rwo kuri interineti rwa banki ya Kigali igaragaramo amabara yiganje y'ubururu ndetse n'umweru umwirondoro ndetse n'ijambo banga ry'uyikoresha n'aho yakwinjirira.

Porogaramu ya banki yerekana ibyerekeye ibisobanuro by'ikorwa ry'amafaranga, hejuru hakakaba hari ijambo ryanditse mu rurimi rw'icyongereza bivuze reba inyandiko y'ibarura, munsi kandi hari urutonde rw'ibintu bitandukanye rw'ishyiriro ry'amafaranga kuri banki hakoreshejwe ikoranabuhanga. Urwo rutonde rugizwe n'imirongo irimo ibisobanuro by'ikorwa ry'amafaranga irimo inyandiko y'ubwishyu, inguzanyo, amafaranga yinjiwe, ayakoreshejwe ndetse n'asigaye kuri konti.

Urubuga rwo kuri murandasi rutanga serivisi z'imari ndetse n'inguzanyo rwa banki ya Kigali, ruragaragaza amafaranga yinjiye ndetse n'ayasohotse, rwiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Ipaji mu iporogaramu ya banki, hejuru handitseho ijambo inguzanyo hasi harimo andi magambo agiye atandukanye yerekeranye n'ibintu by'ubwizigame, ubwizigame bwa burundu cyangwa se intego y'ubwizigame ukeneye kugeraho ku itariki runaka.

Urubuga rw'ikigo gitanga serivisi z'imari cya banki y'abaturage mu Rwanda rwerekana konti y'umuturage uburyo yavunjisha cyangwa akamenya agaciro k'amafaranga.

Urubuga rwo ku ikoranabuhanga rwa banki ikorera mu gihugu itanga inguzanyo n'ibindi, rurerekana uburyo wifuza harimo kohereza, kwakira ndetse rwiganjemo ibara ry'umukara n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Urubuga rwa porogaramu ya banki iriho ibintu bigiye bitandukanye iyi porogaramu ibasha gukora, harimo nko kohereza amafaranga kuri iyi banki, cyangwa se kohereza amafaranga kuri telefoni, kohereza amafaranga ku yindi banki cyangwa kwishyura fagitire, kandi uru rubuga rwerekana ingano y'amafaranga ushobora kuba ufite kuri konti n'ibindi byinshi bitandukanye.

Urubuga rwa porogaramu ya banki nyafurika rutandukanyijwe n'amabara abiri atandukanye rimwe risa icyatsi irindi risa umweru, mu ibara ry'icyatsi harimo amazina ya nyiri konti, nimero ya konti ndetse n'amafaranga gusa atagaragara agaragazwa n'utunyenyeri, mu kindi gice cyo hasi kandi kigizwe n'ibara ry'umweru harimo ibindi bikorwa bitandukanye ushobora gukora mu gihe ufiteti iyi porogaramu ushobora kohereza cyangwa ukakira amafaranga, ushobora gukoresha serivisi za banki ndetse no kugura umuriro n'ibindi bitandukanye.

Urubuga rwa porogaramu ya banki ruriho urutonde ruriho amatariki amafaranga yinjiye ndetse n'ayasohotse hakaba hariho kandi ingano y'ayo mafaranga uru rutonde ruriho ibindi bintu byinshi byerekana nka kode ndetse n'amazina ya konti.

Porogaramu ya banki irimo konti y'ubwizigame aribwo bw'amafaranga magatatu mirongo tatu na karindwi n'ibice mirongo icyenda na kimwe by'amadolari ya Amerika hari aho kandi ushobora gushakisha icyo ukeneye ndetse n'ahandi byerekana amatariki y'ubwizigame ndetse n'ingano y'ubwizigame.

Urubuga rwo kuri murandasi rwa banki itanga serivise z'imari n'inguzanyo. Ruriho ingingo zitandukanye zirimo uburyo bwo kwishyura imisoro n'amahoro, kwaka inguzanyo, kureba konti yawe, kwizigamira ndetse n'ibindi. Higanjemo ibara ry'icyatsi ndetse niry'umweru.

Inzu icrizwamo imyenda itandukanye y'amabara atandukanye ndetse n'ubwoko butandukanye hagati harimo ameza, iyi nzu kandi ikaba yasangijwe ku rubuga nkoranyambaga rukoreshwa cyane ku Isi, aho abantu bashobora gusangiza amakuru, amafoto, amashusho n'ibitekerezo byabo, bigaragazaho umubare w'abantu bakunze iyo shusho cyangwa se umubare w'abantu bakeneye kugira icyo bavuga kuri iyo shusho.

Ibutiki icuruza ibintu bitandukanye, harimo imyambaro ndetse n'ibindi byinshi. Hakaba hari umugore cyangwa se umukobwa w'uruhu rwera, usa nk'aho atanga serivisi cyangwa acuruza iyi myambaro. Ahagaze ahantu mo imbere, imbere ye hari mudasobwa ndetse arasa nk'uganira n'undi muntu w'umusore cyangwa w'umugabo, w'uruhu rwirabura, amuhereza ibintu mu ntoki.

Ibutiki nziza cyane isize amarangi y'umweru, ikaba igizwe n'amakaro, akaba ari ibutiki kandi yubatse mu buryo bugezweho kandi isa neza, ifite n'amatara meza amurika, harimo abantu cyangwa se ibishushanyo bicoye nk'abantu, byambaye imyenda icuruzwa.

Ibutiki nziza cyane irimo ibikoresho bitandukanye bifite ubwiza harimo imitako igiye itandukanye, utuntu tudoze ndetse n'utundi tuboshye iyi butiki cyangwa se iyi nzu ikaba igizwe n'irangi ry'umweru cyangwa se isize irangi ry'umweru, mu iyi buti iki kandi harimo umuntu uri inyuma y'akabati bisa nkaho acuruza ibiri muri ino butiki.

Mu iduka ricuruza rikanamurikwamo ibijyanye n'imideli; birimo imyambaro, inkweto, amasakoshi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye; hasi hubakishijwe n'amakaro ndetse ku ruhande hari akabati karimo ibyo bigurishwa byose; by'amasakoshi, imyambaro, inkweto n'ibindi.

Inyubako icururizwamo ikanamurikwamo imyambaro ikomoka ku mideli ndetse n'ibindi bijyanye n'ubukorikori. Inyubako irimo urumuri rw'amatara ndetse hariho n'ibihangantego byayo.

Iduka rinini rigezweho ricuruza ndetse rikamurika ibijyanye n'imideli, harimo imideli y'ubwoko butandukanye imyenda ikunda kwambarwa n'igitsina gore, irimo amakanzu ndetse n'amajipo bigezweho.

Ibutike icuruza ibyerekeranye n'inkweto zo hasi zifunguye. Zikaba ziganjemo izifite amabara y'umukara ndetse n'utundi tubara tugiye turimo dutandukanye, gusa tutagaragara cyane. Kandi izi nkweto zikaba zitenze mu buryo busa neza cyane kandi bufite isuku; zimwe iruhande rw'izindi, zikaba zitenze ku mirongo itatu itandukanye ku murongo.

Icyapa cy'ikigo gitanga serivisi z'ubucuruzi, kigaragaza igihe ndetse n'amasaha icyo kigo gikora, ku wa mbere bakora kuva saa yine kugeza saa mbiri, kugeza ku gatandatu bakora ayo masaha, ku wa karindwi ntabwo bakora, hariho ndetse na nimero ushobora kubabonaho.

Imodoka nziza cyane ifite ibara ry'umweru igurishwa ku mafaranga miliyoni cumi n'umunani gusa y'amanyarwanda, ushobora kubona iyi modoka yo mu bwoko bwa suzuki, iyi modoka ikaba iparitse ahantu inyuma yayo hakaba hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Imodoka nziza cyane ifite ibara ry'umukara kandi igezweho, irimo iragurishwa ku mafaranga miliyoni cumi na zirindwi gusa y'amanyarwanda. Iruhande rw'iyo modoka aho iparitse kandi haparitse izindi modoka nyinshi zisa nkiziyireba.

Abagabo babiri bahagaze basa nk'abifotoza bahagaze imbere y'ibinyabiziga binini bitwara imizigo bakaba bahagaze bafatanye mu biganza ndetse ibindi biganza byayo bikaba bifashe ikintu kimwe gicoye nk'urufunguzo runini rwanditseho amagambo yerekana ikirango cy'ikampani runaka cyangwa ik'isosiyete runaka. Isosiyete kandi ikaba ari isosiyete yerekeranye n'iby'imodoka cyangwa ubucuruzi bw'imodoka.

abagabo babiri bambaye neza umwe wambaye ikositimu undi wambaye ishati y'amaboko magufi bahagaze bifotoza bafite utwapa dutoya mu ntoki zabo twamamaza cyangwa twerekana amazina y'uruganda runaka cyangwa umushinga runaka, bahagaze imbere y'ibinyabiziga bibiri bitandukanye ikinyabiziga kimwe dukunze kwita imodoka gihagaze kireba imbere ikindi kinyabiziga kimwe gihagaze kireba inyuma.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'ikinyabiziga dukunze kwita imodoka, abo bagabo kandi bakaba bafite mu ntoki zabo akapa gacoye cyangwa se gashushanyije nk'urufunguzo ruriho amagambo yerekana ikirango cya sosiyete runaka, iyi sosiyete ikaba izwi mu bucuruzi bwo gutanga serivisi zijyanye n'imodoka mu Rwanda.

Ahantu hihariye hasa nkaho hagurishirizwa imodoka nshya cyangwa izakoreshejwe, aho abantu bashobora kugura, kugurisha cyangwa kubona serivisi zijyanye no kugura imodoka, hari abagabo babiri kandi bahagaze bafite akapa gatoya gateye nk'urufunguzo bisa nkaho bari kukifotorezaho, bakaba bahagaze kandi imbere y'imodoka. Inyuma yabo hakaba hari inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, ifite amarangi y'umweru yerurutse, ndetse iruhande rw'iyo nyubako cyangwa se inyuma y'iyo modoka hakaba hari ibiti.

Ahantu bigaragara ko hakorerwa ubucuruzi bw'imodoka, bigaragazwa n'icyapa kihari iruhande gifite ibara ry'umuhondo, aho hantu kandi imbere ya hakaba hari ibiti ndetse no hakurya hakaba hari ibiti byinshi, hakaba hari igipangu gifite ibara ry'umweru, kiriho senyenge hejuru yacyo ndetse imbere yacyo hakaba ari ubutaka.

Imodoka ihagaze mu kibanza, n'imodoka yakozwe mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri, ikaba igurishwa na sosiyete itanga serivisi zo gucuruza no gukodesha imodoka, iyitangira miliyoni icumi.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'ibaraza ry'inzu, iriho ikirango cya sosiyete itanga serivisi zo gucuruza imodoka no kuyikodesha ndetse bahagaze imbere y'ibinyabiziga bibiri by'ubwoko bumwe bitwara imizigo.

Ikinyabiziga cy'ikinyamitende ibiri dukunze kwita moto gihetse umuntu kiriho kigenda mu muhanda, iruhande rw'umuhanda kandi hari icyapa kinini kiriho ikirango ndetse n'amagambo ariho atagaragara neza. Iruhande rwacyo hari inyubako nini y'ubucuruzi bw'imodoka, igaragazwa n'ikirango kiri hejuru.

Umukozi w'ikigo gitanga serivisi z'imari n'inguzanyo; arabarira amafaranga umugabo wambaye ishati ndetse ufite n'umupira ku rutugu; uwo umugabo ukora muri icyo kigo ari imbere mu birahure.

Ifaranga ry'igiceri, ririho amagambo yanditse mu rurimi rw'Igifaransa, asa nk'azungurutse avuga uti banki nkuru y'u Rwanda, ndetse hagati y'ayo magambo hakaba hari agati kariho amababi ndetse n'utubuto, munsi ya nanone hakaba hariho umwaka w'igihumbi kimwe maganacyenda mirongo irindwi nakarindwi.

Abakozi b'ikigo gitanga serivisi z'imari n'inguzanyo, bari mu tudirishya tw'utwumba, baratanga serivisi ku bagabo babiri batandukanye baje babagana.

ibiganza bibiri by'umuntu umwe bifashe inoti nyinshi zitandukanye, ziriho ishusho y'umuntu ndetse n'agaciro k'amafaranga kagaragazwa n'umubare, ndetse kandi bikagaragara ko izi noti ari ifaranga ryo mu gihugu cya Kenya cyangwa se ishilingi ry'amanyakenya.

Umugabo ubara amafaranga yanyuze mu kamashini kifashishwa n'ibigo bikomeye by'amabanki, akamashini gafasha mu kubara amafaranga yanyuzemo kubera ko aba ari menshi.

Igipapuro k'inyemezabwishyu gitangwa n'ikigo cyimisoro n'amahoro, kikaba kigaragaza igiciro cyamafaranga iki kintu cyatanzweho nicyo gikorwa cyakozwe.

Ibiganza bibiri by'umuntu umwe bifashe amafaranga hagati y'ibyo biganza harimo inoti zinshi zitandukanye, mu kiganza kimwe gifashe inoti z'amadolari y'abanyamerika za mirongo itanu, ikindi kiganza gifashe amafaranga asa nkaho azirikiye mu itsinda rimwe.

Inoti ebyiri zitandukanye, imwe iyiha abantu bariho babyina ndetse n'intore. Ikaba yandikishijweho amagambo yanditse mu rurimi rw'igifaransa, bivuze banki nasiyonale y'u Rwanda. Akaba ariho kandi agaciro k'ayo mafaranga kagizwe n'umubare ibihumbi bitanu. Iri munsi yayo ishushanyijeho inzu nini yubatse mu buryo bugezweho, ndetse ikaba yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, bivuze banki nasiyonali y'u Rwanda. Nayo ikaba igizwe n'agaciro kerekanwa n'umubare ibihumbi bitanu.

Inyubako itanga serivisi zo gucuruza amata n'ibiyakomokaho ndetse n'ibindi, har’ibicupa bya plasitike bijyamo amazi birimo ubusa bifungiranye mu tuzu twubatswe mu byuma, ndetse inyuma har’icyapa cya sosiyete icuruza ibijyanye ndetse n'ibikomoka ku mata.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo n'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya emutiyene, harimo umugabo uhagaze witeguye guha serivisi abaza bamugana zirimo; kubitsa, kubikuza, cyangwa kohereza amafaranga.

Iduka ry'ibikomoka ku mata riri kwerekana igisorori kinini kigaye gisa n'kirahure kibonerana, kikaba kirimo ibyo dukunze kwita amandazi cyangwa se ibidiya, ibi bikaba ari ibiryo bigizwe n'ifu y'ibigori cyangwa se ifarini, isukari kandi bigatekwa mu mavuta.

Mu iduka rinini ricuruza ndetse rikanatunganya ibikomoka ku mata ry'inyange, abakozi babo bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ingofero mu mutwe z'umweru, baratanga serivisi kubabagana.

Umuntu ufashe keke mu ntoki, imbere ye hari igikombe cyuzuye cy'amata, giteretse ku meza iriho ikaramu ndetse n'indobo. Hasi hari amakaro. Ni iduka ricuruza ibijyanye, ndetse n'ibikomoka ku mata.

Iduka rinini ricuruza amata ndetse n'ibiyakomokaho, harimo n'ibyokurya birimo za capati ndetse n'amandazi harimo ndetse n'amazi yo kunywa ndetse n'imitobe itandukanye.

Mu iduka ricuruza amata ndetse n'ibiyakomokaho ndetse n'ibiribwa; hagaragara indobo irimo utwuma ndetse harimo n'amandazi abiri; biteretse ku meza

Iduka ricuruza ibikomoka ku mata rikaba rigizwe n'amakaro hasi hari akabati kagizwe n'ibirahure kari aho kabitsemo ibicuruzwa bikomoka ku mata harimo amandazi ndetse n'ibindi bitandukanye imbere y'ako kabati kandi hakaba hari ameza afite ibara ry'umweru ateretseho ijagi iruhande rwaho hari umuntu ndetse hirya hari undi muntu wegera imashini ibikwamo cyangwa se iba irimo amata.

Mu iduka rinini ry'ikigo gicuruza amata ndetse n'ibiyakomokaho; hari ibido iriho umubirikira irimo irasukwamo amata; ku ruhande ndetse hari indi ndobo ndetse ku mpande hagiye hari ibyapa by'iyo sosiyete.

Umuntu ufashe umutobe wakorewe mu nganda w'imbuto z'amatunda zikorwa n'uruganda rwitwa Inyange rukora rukanatunganya ibikomoka ku mata bitakanye.

Iduka rikora ibijyanye ndetse n'ibikomoka ku mata rikorera mu cyumba kinini cyubatswe n'amakaro ndetse n'igikuta gisa ubururu, harimo ibyuma bitunganya ndetse bikanabika ayo mata.

Amakuru y'itumanaho mu bijyanye n'uburyo bwo kwishyura yifashishije mu ikoranabuhanga mu gihe ukeneye kohereza amafaranga mu gihugu cya kameruni, emeza umubare rimwe mu gihe umukoresha w'amafaranga yo kuri telefoni, wemeze umubare kabiri mu gihe utari umukoresha w'amafaranga yo kuri telefone, wemeze umubare zeru mu gihe ukeneye gusubira inyuma.

Urubuga rwo kuri murandasi rwo kwishyuriraho; binyuze ku ikoranabuhanga; hariho amazina ya nyiri konti ndetse hariho n'uburyo butandukanye bwo gukoresha urwo rubuga; harimo kohereza, kwakira, kwaka inguzanyo, kugura amayinite n'ibindi; rugizwe n'amabara abiri yiganje icyatsi ndetse n'umweru.

Icyapa cymamaza sosiyete zigera ku icyenda zitanga serivisi zo kohererezanya ndetse no kwakira amafaranga kuri murandasi. Bikorerwa kuri murandasi byose, aho buri sosiyete ifite umwihariko wayo. Hariho telefone eshatu ngendanwa.

Abagenza amaguru mu gihe bambukiranya umuhanda, bakomeje guhabwa agaciro kabo bakambuka nta nkomyi, ibinyabiziga bigahagarara bakambuka neza.

Ikiganza gifasha telefone cyerekana imbere mu kirahuri cya telefone hari ijambo rinini cyane riri imbere ya telefone riyanditse mu rurimi rw'icyongereza rivuga kwishyura abatanga ibicuruzwa cyangwa serivisi. Mo imbere mu kirahure cya telefoni hagaragaramo urubuga rwishyurirwamo hakoreshejwe ikoranabuhanga, hari amahitamo atandukanye arimo kwishyura fagitire kohereza amafaranga ndetse no kwishyura abatanga ibicuruzwa cyangwa serivisi n'ibindi.

Urubuga rwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho ushobora kwakira cyangwa ukohereza amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, hakaba hariho kandi ishusho y'ibiganza bibiri bifite ibikoresho bibiri mu ntoki bimeze nka telefoni, bisa nkaho byohezanya ubutumwa cyangwa se amafaranga, hejuru kandi kuri uru rubuga hakaba hari n'andi magambo yandikishije mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'icyongereza, mu rw'ikinyarwanda yanditseho amagambo avuze uti twizigamire tugurizwe dutere imbere.

Urubuga rujyanye no kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga cyangwa se kwakira amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga muri terefoni yawe, hariho uburyo bwinshi bugiye butandukanye bugera nko ku icyenda, ushobora guhitamo icyo ushaka gukora: harimo kohereza amafaranga, kwishyura fagitire, iby'inguzanyo, kureba ibyerekeye na banki n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hakaba hariho uko ushobora kohereza cyangwa se ugasiba ibyo wahisemo.

Urubuga cyangwa se ibyerekeranye no kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga. Mu iterefoni kandi mu kirahuri cyayo bigaragaramo ko harimo ibintu bibiri bitandukanye. Hejuru harimo ikarita ifite ibara ry'ubururu handitsemo ngo "ibanki yanjye" ndetse munsi hakaba harimo imibare itandukanye. Munsi yaho kandi hakaba harimo ubutumwa buriho akantu karimo akantu kemeza, bisa nk'aho bigaragaza ko ubutumwa bwagenze neza cyangwa se kohereza amafaranga byagenze neza.

Sosiyete itanga serivisi z'itumanaho ihererekanya ry'amafaranga kuri murandasi, umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi y'umuhondo afite urupapuro ndetse n'iterefoni, aravugana n'umumama wambaye ikositimu ufite n'igikarito.

Urubuga rwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, hagaragara umukobwa ufite telefoni mu ntoki ze, zikaba ari zo zigaragara igihimba cye ntabwo kigaragara neza, hakaba imbere y'iyo telefoni cyangwa se munsi y'iyo telefone handitseho amagambo ngo gukanda akanyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri umunani urwego.

Kode , akanyenyeri, urwego igihumbi magana atatu na mirongo itatu na karindwi, urwego ijyanye n'uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga yanditse mu kirahure cya terefone igendanwa ,igaragazwa mu gice cyo guhamagara hari amagambo ari mu munsi yayo ari mu rurimi rw'igifaransa agaragaza ko iyo kode ishobora kongerwa mu bantu bahamagara.

Igishushanyo kerekana uburyo amafaranga yo ku ikoranabuhanga yoherezwa akagenda amahoro ndetse akagaruka kuri nyirayo kuri telefone, gishushanyijeho telefone inzu ya banki ndetse harimo n'uturongo tw'umutuku tugaragaza aho amafaranga yajyaga.

Agapapuro cyangwa se urubuga rwerekana icyemezo cy'ubwishyu bikaba kandi bitangwa n'ikigo cy'amasoro n'imihoro gikorera mu Rwanda, aka gapapuro cyangwa se uru rubuga hariho amazina y'uwishyuye ubwoko bw'imisoro yishyuye amatariki ndetse nibyo yatanze hariho kandi umusoro agomba kwishyura ndetse n'umusoro wishyuwe.

Urupapuro cyangwa se ipage ruriho ibyerekeranye n'imicungire y'amafaranga, cyangwa se n'uko amafaranga yasohotse cyangwa yinjiye. Hakaba hariho amatariki, ubwoko bwa konti, aderesi, ubwoko bw'amafaranga cyangwa se bw'ifaranga, amafaranga yatangiranwe, ndetse n'amafaranga yasozanijwe. Munsi hakaba harimo urutonde runini ruriho amatariki, ndetse rwerekana amafaranga yinji n'ayasohotse.

Agapapuro cyangwa se urubuga kerekana icyemezo cy'ubwishyu kakaba gatangwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu rwanda hariho amazina y'uwishyuye nimero ziwe za kodi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ubwoko bw'umusoro ndetse n'amatariki yishyuriyeho n'ingano y'amafaranga ndetse n'amafaranga asigaye kwishyura nayo yagombaga kwishyura.

Inyandiko ya raporo y'icungwa ry'amafaranga kuri konti mu gihe cy'amezi atandatu igenewe umukiriya witwa Murora Roza hariho ibisobanuro by'ingenzi nk'igihe cy'inyandiko, nimero ya konti, aderesi, ubwoko bwa konti, ifaranga rikoreshwa, umubare w'amafaranga yatangiranye ndetse n'umubare w'amafaranga usoza, harimo ibikorwa byakozwe kuri konti nko kubitsa no kubikuza bigaragara kandi ko umubare ugenda wiyongera buhoro buhoro bitewe n'amafaranga abitswa.

Urupapuro nyemezabwishyu rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro mu Rwanda, gihabwa umuntu umaze kwishyura umusoro, igipapuro kirerekana amazina yikigo kishyuye umusoro ubwoko bw'umusoro ndetse kikerekana umusoro ugomba kwishyurwa ndetse n'uwishyuwe.

Ibyerekeranye n'imicungire y'amadovize cyangwa se y'amafaranga y'amanyarwanda, hagaragara ibiceri byinshi bitenze ku murongo, iruhande rwabo hari ibindi byinshi bitenze ku murongo ariko bike ku bibikurikiye ndetse n'ibindi bisa nk'ibisaye cyangwa se bisandaye hasi.

Icyapa cy'ikigo gishinzwe ivunjisha, kirerekana uko ivunjisha ry'amafaranga y'abanyamahanga rihagaze mu gihugu cya Uganda. Hariho ibiciro byo kuguriraho ndetse n'ibiciro byo kugurishirizaho.

Umuntu ufashe amafaranga y'abanyamahanga inoti imwe ifite agaciro k'igihumbi, ku ruhande rwe hari akamashini kifashishwa mu guteranya ndetse no gukora imibare.

Urutonde ruriho ibyerekeranye no gucunga cyangwa se gukoresha amafaranga y'amanyamahanga. Hari urutonde ruriho ibihugu byinshi byo muri Afurika kandi buri gihugu imbere yacyo hagiye hari kode itandukanye n'ibindi ndetse n'imibare yerekana ko iri mu mafaranga y'amanyamerika y'amadolari. Ku ruhande rwabyo na none hagiye hari ku ijanisha, imibare iri ku ijanisha. Ku rundi ruhande hakaba hari iyindi mibare.

Ibyerekeranye no gukoresha amafaranga y'amahanga, bigaragazwa n'umuntu ufite mu biganza bye byombi inoti nyinshi zigiye zitandukanye, zikaba ziriho ishusho ndetse n'agaciro k'amafaranga kagizwe n'umubare werekana agaciro k'ifaranga ndetse kandi bikagaragazwa ko ari ifaranga ryo mu gihugu cy'ubuhinde, bitewe n'amagambo yanditseho.

Ibyerekeye gukoresha cyangwa gucunga amafaranga y'amahanga cyangwa se kuvunjisha abantu babiri bigaragara ko umwe atanga serivisi undi akayakira, usa nk'uwakira serivisi mu biganza bye byombi ikiganza kimwe harimo amafaranga y'amadolari y'abanyamerika hejuru bigaragara ko hari idolari rifite agaciro k'amafaranga ijana mu kindi kiganza nabwo hakaba harimo inoti eshatu usa n'utanga serivisi nawe hari ikarita y'umutuku asa nkaho ahererekanya.

Amadolari menshi y'ijana ashyizwe hejuru y'impapuro zitandukanye, zifite imyandikire n'ibishushanyo bigaragaza imbonerahamwe n'ibindi bisobanuro. Kuri izi mpapuro hariho imirongo itandukanye y'imibare harimo n'ibishushanyo, n' ibice bitandukanye byanditseho bishobora kugaragaza urwego cyangwa imibare ijyanye n'ishoramari cyangwa gucunga amafaranga y'amahanga.

Ibyerekeranye no gucunga cyangwa se gukoresha amafaranga y'amahanga, hakaba hari inoti y'ibintu bitandukanye harimo amashusho ndetse n'imibare n'amagambo, mu mashusho arimo harimo igishushanyo k'ikibumbano kerekana umutwe ndetse n'inyamaswa ebyiri ziri iruhande rwacyo zo mu bwoko bumwe, hejuru hakaba hari amagambo yandikishijwe mu rurimi rw'Igifaransa avuze ati:"banki ya Congo." Ku mpande kandi nano hakaba ari agaciro kerekanwa mu mibare bivuze ko iyi noti ari ibihumbi makumyabiri.

Urubuga rwerekana ibyerekeranye no gucunga cyangwa se gukoresha amafaranga y'amahanga, rukaba ruriho ibihugu byinshi bitandukanye biri ku murongo umanutse, ndetse imbere ya buri gihugu hakaba hari imibare igiye itandukanye yerekana agaciro k'ifaranga.

Ibiganza bibiri biri mu mafaranga agiye atandukanye bifashe inote z'amafaranga atandukanye, harimo idorari ry'Amerika rimwe.

Umuntu w'uruhu rwera cyangwa se w'umuzungu werekana amafaranga mu biganza bye bibiri bitandukanye, asa nk'aho amwenyura, ikiganza cye cy'iburyo kirimo inoti nyinshi zitandukanye z'Ubushinwa ikindi kiganza kirimo ibiceri bitatu.

Ibyerekeranye no gucunga cyangwa se gukoresha amafaranga y'amahanga, hari urupapuro rufite ibara ry'umweru rwandikishijeho amagambo y'umukara, ruriho ibintu bitandukanye byerekeranye n'amafaranga, hakaba hari ikiganza kandi gifite ikaramu mu ntoki gisa nk'icyerekana ibyanditse kuri urwo rupapuro cyangwa se kiriho cyandika, iruhande rw'urupapuro kandi hakaba hari inoti nyinshi cyane ndetse n'ibiceri by'amafaranga y'amahanga.

Ibiro bikorerwamo ivunjisha ry'amafaranga y'ubwoko butandukanye bitewe n'agaciro k'isoko mpuzamahanga, hari ibyapa bitandukanye birimo n'ibya sosiyete itanga serivisi zo kohereza no kwakira amafaranga binyuze kuri murandasi.

Urupapuro rugaragaza inshange ya banki yitwa access igaragaza aho umuntu anyura agiye kwinjira muri sisiteme yabo harimo aho ashyira umubare wibanga ndetse n'ijambo akoresha yinjira yarangiza agakandaho akinjira

Icyapa cyerekana ivunjisha ry'amafaranga, ku cyapa handitseho amagambo asobanura; turagura turagurisha. Hariho imibare igaragaza igiciro cy'ivunjisha ry'amafaranga iruhande rw'ijambo iyero ndetse n'idolari ry' Amerika. Iyo mibare isobanura igiciro cy'amafaranga igihe umuntu aguze cyangwa agurishije.

Inzu y'ubucuruzi bwerekeranye n'ivunjisha ry'amafaranga y'amadovize cyangwa se amafaranga y'amahanga ikaba ari inzu igizwe n'amatafari ahiye ku ruhande ikaba irimo ishusho na none y'umugore cyangwa se umukobwa wambaye amadarubindi y'izuba tugarutse hino gatoya ahantu hari amatara yaka cyane ndetse hafite amarangi y'umweru bisa nk'aho ari ibyo biro binjirira.

Icyapa cyerekana ibyerekeranye n'ibiciro by'ivunjisha ry'amafaranga y'amahanga, hakaba hariho ibihugu bitandukanye ndetse imbere y'aho bakerekana ibiciro by'uko iryo faranga rigurwa ndetse rinagurishwa, iruhande rw'icyo cyapa kandi hakaba hari umuntu ugaragara igice cye cyo hasi, wicaye ku ntebe, yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro.

Iduka ricuruza ibijyanye n'ibikoresho byo mu nzu birimo ameza, intebe zo mu ruganiriro ndetse n'utubati duterekwaho televiziyo, biteretse mu busitani ndetse ku ruhande hari n'indabyo.

Inzu cyangwa se icyumba cy'ibikoresho by'ubucuruzi byo mu rugo, harimo intebe nziza cyane enye ebyiri nini ndetse n'izindi ebyiri ntoya zegeranye. Izi ntebe zikaba ari intebe zishyirwa mu ruganiriro cyangwa se aho bicara bategereje ndetse hagati y'izo ntebe hateguyemo akameza cyane keza k'imbaho.

Iduka rinini ricururizwamo ndetse rikamurikwamo ibikoresho bikomoka ku mbaho, biririmo ameza yo mu nzu ndetse n'intebe zazo, hari utubati ndetse n'intebe zigezweho ndetse n'indabyo.

Iduka ricuruza rikanamurikirwamo ibikoresho byo mu nzu bitandukanye, harimo ibitanda bigezweho byo mu bwoko bwiza harimo amamatela, imisego utubati two ku bitanda ndetse n'ibindi.

Inzu yerekeranye n'iby'ubucuruzi bw'ibikoresho byo mu nzu, ikaba ifite amakaro ndetse isizi n'irangi ry'umweru ku gikuta, iyi nzu ikaba irimo intebe zitandukanye, imwe ndende iri hagati, ndetse n'izindi zitegana ntoya, izi ntebe kandi zikaba zibajwe cyangwa se zikozwe mu mbaho cyangwa se ibiti; zikaba zirimo imisego.

Inzu cyangwa se icyumba byerekana ko ari iby'ubucuruzi bw'ibikoresho by'imbere mu nzu, iyi nzu ikaba igizwe n'amakaro hasi ndetse ikaba irimo intebe zitandukanye zitenze mu buryo buzungurutse, hagati yazo hakaba harimo ameza afite ibara ry'umweru ndetse izi ntebe zikaba zifite ibara ry'icyatsi, ku mpande zose uko ari ebyiri z'intebe hari ibitanda bitagaragara neza cyangwa se uburiri buriho uburyamo.

Inzu cyangwa se icyumba kirimo ibicuruzwa by'ibikoresho byo mu nzu ikaba ari inzu igizwe n'amakaro, ikaba harimo intebe nziza z'ubwoko bumwe ariko zitandukanye zikaba zenda kuzenguruka akamezaza kari hagati yazo kabajwe mu biti cyangwa se mu mbaho. Izo ntebe nazo kandi zikaba zibajwe mu mbaho zikaba zigizwe n'imisego ifite ibara ryera ririshashagirana.

Inzu cyangwa se icyumba gikora ibyerekeranye n'ubucuruzi bw'ibyerekeranye n'ibikoresho byo mu nzu, cyangwa se n'ibindi bikoresho by'imbaho, hakaba hari intebe igaragara neza cyane ikoranye ubuhanga budasanzwe, ikaba kandi ikozwe mu mbaho, hakurya ahongaho hakaba hari ibindi bikoresho gusa bisa nk'ibiri mu mwijima bitagaragara neza.

Ahantu hasa nk'aho ari hanze hacururizwa ibikoresho byo mu nzu harimo intebe ameza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aha hantu hakaba bigaragara ko ari ku manywa izuba ririho rirasa, hakaba hari intebe zo mu nzu nziza ndetse n'ameza agiye atandukanye ayagerekeranye, hakaba kandi hari abantu ku ruhande batagaragara neza.

Igikorwaremezo gitanga serivisi z'amacumbi ndetse no gufata amafunguro n'ibyo kunywa, hari ubusitani bwiza burimo indabyo ndetse n'ibyatsi, hatetsemo amameza yo mu ibara ry'umukara ndetse n'intebe kuri buri ruhande.

Inzu bisa nkaho yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, ikaba ari inzu dukunze kwita ihoteli. Ikaba irimo amakaro ndetse hakaba arimo n'inkingi zijya zifite amabara y'umukara ndetse n'amarangi ku bikuta asa umukara. Hari intebe kandi ziri aho hafi, ndetse hari n'ahandi hantu umuntu utegereza cyangwa se wakira abinjira mu nyubako, aba ahagaze; gusa nta muntu urimo.

Inzu yubatse nziza dukunze kwita ihoteli ikaba igaragaza ahantu barira cyangwa se bafatira amafunguro, Hakaba hateguye mu buryo bwiza bufite isuku kandi busa neza harimo intebe, ameza ndetse ku meza hakaba hateguye ibirahuri, amasahani ndetse n'ibyo kurisha.

Icyumba kinini gitatse amafoto meza kiriho ameza yuzuye ibiribwa by'ubwoko butandukanye imboga, imbuto zirimo inanasi, imineke ndetse n'ibiribwa bitetse.

Icyumba cy'amacumbi kirimo ibintu ndetse n'ibikoresho byo mu nzu bigezweho harimo intebe, amatapi, ameza agezweho ndetse n'i televiziyo hubakishijwe amakaro hari n'urumuri.

Inyubako nziza cyane dukunze kwita ihoteli itanga serivisi zigiye zitandukanye, harimo gutanga amacumbi, aho abantu bashobora kurira, ibyumba by'inama ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, iyi nyubako yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho birasa nkaho ari amasaha ya nijoro kuko amatara araka kuri iyi nyubako, ni ibintu bisa neza cyane.

Ibyumba bigezweho bitangirwamo serivisi z'amacumbi; ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa; icyumba gikoreshwa nk'igikoni kirimo ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gikoni; harimo utubati ndetse n'ameza asize irangi ry'umweru.

Inyubako nziza cyane dukunze kwita ihoteli ikaba yubatse mu buryo bwiza cyane iyi nyubakoba itanga serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubucuruzi izo serivisi zikaba zirimo abantu bashobora gufatira amafunguro, aho bashobora kurara ndetse kandi iruhande rwayo hakaba ari ikidendezi cy'imyidagaduro iruhande rw'icyo kidendezizi cy'imyidagaduro hakaba hari intebe zibiri zihicaye cyangwa se zihateretse.

Intebe nziza kandi zisa neza cyane ndetse n'ameza hagati yazo, hakaba hari n'amatara kandi amurika agezweho, bikaba biri mu nyubako nziza yubatse mu buryo bugezweho dukunze kwita i hoteli, akaba ari ahantu hakunze gutanga aho abantu barara bagatanga ifunguro ndetse rimwe na rimwe ibyumba by'inama, ndetse n'ibindi bintu by'ubucuruzi by'abantu baje mu rugendo.

Inyubako nini ifite ubwiza yubatse mu buryo bugezweho ifite ubugari bunini ndetse igeretse inshuro irenze ebyiri ifitemo amacumbi agiye atandukanye ndetse imbere yayo hari ubusitani bushinzemo igiti kirekire gitoya ubusitani busa nk'ubwumye.

Inyubako nini itanga serivisi z'amacumbi ndetse n'amafunguro n'ibyo kunywa; birimo amatara ari gutanga urumuri ruhagije; hasi hari amakaro arimo uturongo tw'umweru ndetse n'utw'umukara.

Mu cyumba kirimo ibiro bya sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi, harimo ameza atatu yicayeho ndetse n'abantu bafite za mudasobwa imbere yabo, hari umuntu waje kubaza serivisi w'umudamu yicaye hagati arebana n'umukozi w'icyo kigo.

Ahantu heza cyane cyangwa se ibiro byiza bijyanye n'iby'ubwishingizi bwo kwivuza ndetse n'ibindi bitandukanye abakoramo bakaba ari abantu batandukanye bamwe b'uruhu rwera ndetse n'abandi birabura aho bahagaze kandi imbere yabo handitse amagambo asa nkaho aha ikaze ababagana .

Inyubako nini irimo ibiro by'ubwishingizi, iyi nyubako ikaba yubatse mu buryo bugezweho kandi bwiza ndetse ikaba ifite n'isuku, hejuru kandi y'iyo nyubako ku muryango w'abinjira akaba ariho hari icyapa cyanditseho ikirango cyerekana ko ari ubwishingizi, ku ruhande rw'inyubako hakaba hari umugabo uri kuri telefoni wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ibindi byapa bitandukanye byerekana ko aho hafi hari banki.

Umuhanda munini wa kaburimbo uhagazemo ibinyabiziga bibiri bitwara abantu, icy'imbere kiri mu ibara ry'umweru, ndetse hari n'umwana ufite akadobo uri kugenda mu muhanda, hari inyubako iriho sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi.

Ibiro by'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi, ishami rya Musanze. Hari ibirangantego biri ku byapa byamamaza icyo kigo ndetse hari n'umurongo ushobora kubabonaho. Byiganjemo ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'ubururu.

Ibiro by'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi. Ibiro binini birimo abakozi bambaye imyenda y'akazi, iri mu ibara ry'ubururu ndetse imbere yabo hari intebe zicarwaho n'abakiriya, hariho abakiriya babiri, imbere y'inzu hari ibyapa bitanga urumuri rw'umutuku ndetse n'ubururu by'iyo sosiyete.

Inyubako nini y'amagorofa irimo ibiro by'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi, harimo ibyapa biriho amabara yiganje y'umutuku ndetse n'umweru.

Urupapuro rwamamaza rwerekana uko ushobora gutwara imodoka yinzozi zawe wahawe inguzanyo, yerekana kandi aho ushobora guca urubuga ushobora kwandikaho cyangwa numero ushobora guhamagara ukoresheje terefone igendanwa ndetse na emeli ushobora kwandikira kugira ngo ubigereho hariho kandi ibigenderwaho kugira ngo inguzanyo itangwe, hariho ishusho y'umukobwa uhagaze ku modoka nziza cyane igezweho.

Icyapa cyamamaza serivisi zitangwa n'ikigo gitanga serivisi zijyanye n'inguzanyo cya banki ya Afurika, kiriho umugabo n'umugore bicaye imbere y'ameza ariho murandasi, hariho amagambo avuga ati ufite izihe nzozi tubwire tugufashe.

Igikorwa remezo cy'inyubako nini yubatswe mu buryo bugezweho; yubakicishijwe cyane cyane n'ibirahuri; hakoreramo ikigo gitanga serivisi z'inguzanyo; hari ndetse imbere y'aho ikinyabiziga kigendera ku mapine abiri cy'ipikipiki.

Abakozi b'ikigo gitanga serivisi z'imari ndetse n'inguzanyo barasobanurira ababagannye b'abaturage ibijyanye n'izo serivisi zabo hari imeza itetseho ibipapuro by'ubwoko bumwe ndetse hariho n'amacupa y'amazi y'abo bakozi.

Icyapa gisa nk'ikiri ku nyubako ishinguye cyangwa se inyubako ndende cyane igereretse inshuro zirenze ebyiri. Iki cyapa kikaba cyanditseho amagambo yerekana ko ari ikigo gitanga inguzanyo mu buryo bw'ikoranabuhanga, ndetse munsi y'icyo cyapa hakaba hari amamodoka menshi cyangwa se ibinyabiziga bihaparitse, hakurya hakaba hari umutaka ufite ibara ry'umuhondo, hakaba n'ibindi binyabiziga by'ibinyamitende ibiri bihaparitse biriho abamotari cyangwa se ababitwara.

Icyapa cyamamaza sosiyete itanga serivisi z'inguzanyo ku banyeshuri, hariho umugabo wambaye umupira w'umweru warengejeho undi w'umukara uhetse igikapu ndetse ufite n'ibitabo birimo impapuro, ni ikigo kiri gutanga inguzanyo ku banyeshuri.

Urupapuro rumenyesha amabwiriza akurikiza mbere yuko ushyira umukono ku nguzanyo, munsi yaho hari abantu babiri umwe utanga serivisi ndetse n'undi usaba serivisi. Usaba serivisi yicaye mu ntebe afite urupapuro mu ntoki ze zombi, uyitanga afite mudasobwa imbere ye ku meza. Munsi kandi hari ibindi bisabwa, kugira ngo ubashe kubona inguzanyo.

Icyapa cyamamaza cy'ikigo gitanga serivisi z'imari ndetse n'inguzanyo hariho umukobwa wambaye imyenda y'abubatsi ndetse n'ingofero y'abubatsi ni banki y'abaturage mu rwanda iriho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Mu ibaraza ry'igorofa hari icyapa kiriho ibirango bya sosiyete itanga serivisi z'imari ndetse n'inguzanyo ishami rya Musanze, icyo cyapa cyiganjemo ibara ry'umweru ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Ikigo gitanga inguzanyo cyangwa se muri banki bigaragazwa n'ibyapa bigiye bitandukanye biriho izina rya banki runaka, hakaba harimo abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagabo, abagore bagiye batandukanye kandi bambaye imyambaro itandukanye, hasi hakaba hagizwe n'amakaro ndetse n'amatara araka.

Isoko rinini ricuruza ibyerekeranye n'imbuto zitandukanye harimo imineke amananasi amapapayi amaronji ndetse n'ibindi bigiye bitandukanyekanya, harimo n'ibinyomoro ku mpande kandi hagiye hari abantu bahagaze bisa nk'aho baje kugura ndetse hari n'abagurisha.

Isoko rinini ririmo ibintu bitandukanye harimo ibikapu bidoze, uduseke, udukapu tuboshye, imitako igiye itandukanye, imbere yaho kandi hari abagabo batatu ndetse n'abandi bantu nyuma batagaragara aho bakaba basa nk'aho ari abantu baje kugura cyangwa se bagurisha.

Isoko ririmo imyambaro y'ibitenge bitandukanye bifite amabaragi atandukanye kandi meza bigiye biteze ku murongo umwe umwe ndetse no munsi yabyo, aho hafi kandi imbere yabyo hari abantu bahagaze basa nk'abaje kugura cyangwa se gukora ibindi bikorwa runaka.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye by'imbuto ndetse n'imboga, hakaba harimo amashu, imboga rwatsi, ibitunguru ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Bitenze mu buryo bwiza kandi hejuru yaho bikaba bisakajwe n'ihema. Mu isoko kandi hagiye harimo utwapa dutoya twerekana ubwoko bwa buri kiribwa cyangwa se bwa buri mboga.

Isoko ricuruza ibyerekeranye n'ibiribwa, hakaba hari imifuka minini itandukanye kandi myinshi irimo ibirayi, hakaba hari abagore bari hafi y'iyo mifuka bisa nk'aho ari iyabo cyangwa se aribo bariho bacuruza ibyo bintu, ndetse hakaba hari n'undi mugabo uhagaze ufite igifuka cyangwa se agafuka gatoya mu ntoki. Umugore asa nk'aho arimo amushyiramo ibintu cyangwa abikuramo, hirya yabo hari abandi bantu basa nk'abatambuka.

Isoko rininirimo ibicuruzwa by'ibiribwa bitandukanye harimo inyanya, amashu, ibitunguru ndetse n'imiteja, hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye, imbere yaho gato hari umuntu w'umugore uhicaye usa nkaho ategereje uza kugura ibiribwa cyangwa se ucuruza ibyo biribwa, inyuma ye kandi nanone hari ibindi bicuruzwa nabwo bihari harimo uducupa turimo amavuta ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bimanitse by'ibirungo bakoresha mu guteka.

Isoko rinini cyane ricuruza ibyerekeranye n'ibiribwa bigiye bitandukanye harimo imboga ndetse n'imbuto, ririmo urujya n'uruza rw'abantu. Harimo abacuruza ibyo biribwa ndetse n'abaje kugura n'abandi bagiye batandukanye. Ibyo biribwa harimo inyanya, intoryi, imiteja ndetse n'ibindi.

Isoko rinini ricuruza ibintu bigiye bitandukanye byerekeranye n'ibiribwa, hakaba hari imbuto cyangwa se ibiribwa by'ubwoko butandukanye, amafu y'ubwoko atandukanye, ndetse kandi hakaba hari utwapa dutoya tugaragaza ubwoko bwa buri kiribwa, cyangwa se bwa buri kintu gicuruzwa aho ngaho, bigiye bishinze muri buri bwoko bw'ikintu.

Igikorwa remezo cy'isoko rusange ,kirimo imiryango itandukanye ,icuruza ibintu bigiye bitandukanye. Hari urujya n'uruza rw'abaguzi ndetse n'abagurisha barahari. Harimo ibikoresho by'isuku ,ibikoresho byo mu nzu. Ibikoresho by'imyambaro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bahaha abandi bacuruza. Umudamu ufite akabase kuzuye inyanya ndetse hasi ye hari umufuka uteretseho inyanya, intoryi ndetse n'ibindi.

Isoko rinini ritandukanye harimo imyenda y'abana, amakanzu, udukapu tudoze, utuboshye, imitako ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, hari abagore babiri kandi basa nk'abagaragara neza bicaye bisa nkaho bacuruza ibyo bintu, hirya nanone hari abandi bantu batandukanye bishoboka ko ari abantu bacuruza cyangwa se hari n'abandi bagura, gusa bo ntibagaragara neza.

Uburyo bwo kwishyura ama serivisi ya emutiyeni hakoreshejwe telefoni, ibi nta kiguzi cy'amafaranga y'inyongera byishyurwa mu mugihe ukoresheje iyi serivisi. Ushobora gukoresha porogaramu ya mtne kuri telefone yawe cyangwa ukabimenyekanisha ukoresheje kode akayenyeri, ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyeri, gatatu ,urwego, ubundi ukinjiza umubare gatandatu, gatatu, gatanu ,gatandatu ,kabiri ,gatandatu.

Abakozi b'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho ndetse n'ihererekanya ry'amafaranga binyuze kuri murandasi, bambaye imyambaro iri mu ibara ry'umuhondo ndetse iriho n'ikirango cy'iyo sosiyete. barasobanurira umugabo w'uruhu rwera ibintu bigiye bitandukanye.

Icyumba kirimo amatara yaka cya sosiyete itanga itumanaho mu Rwanda MTN kirimo urujya n'uruza ndetse harimo n'ibyapa by'iyo sosiyete n'abakozi bayo batanga serivisi ku babagana.

Umugabo w'uruhu rwera wambaye ishati irimo ibara ry'umukara wiganje ufite amadarubindi mu ntoki, arabaza umugabo uri mu kazu k'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho ihererekanya ry'amafaranga ndetse no kuyakira.

Akazu gato kifasha amafaranga ya telefoni cyangwa agashami gasize ibara ry'umuhondo ryiganje ndetse kagiye kanditseho amagambo yandikishije irangi ry'umutuku ndetse n'andi yandikishije irangi ry'umukara asobanura icyo bikora. Hari umugabo kandi uhagaze inyuma yako mu idirishya ryako usaba serivisi zitandukanye zijyanye n'ifasha amafaranga ya telefoni aka kazu ni aka emutiyeni isobanura isosiyete y'itumanaho.

Akapa kanditseho kugura no kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga rya telefone wishyura amafaranga, kandi kakavuga ko ntayo ucibwa y'inyungu cyangwa amafaranga y'inyongera ku bwa serivisi wahawe cyangwa watanze.

Akazu ko mubara ry'umuhondo kariho ibirango bya sosiyete itanga serivisi z'itumanaho, ndetse n'ihererekanya ry'amafaranga no kuyakira mu Rwanda rya emutiyeni. Nta muntu urimo utudirishya turafunguye ndetse kegereye ifoto ryikorera insinga, ndetse hari n'ubusitani n'akayira k'abanyamaguru.

Inzu ntoya ifite irangi ry'umuhondo iyi nzu kandi ikaba ari inzu yerekeranye n'ibyamafaranga y'ikoranabuhanga, aha hakaba ari ahantu abantu bashobora kujya kugirango bakore ibikorwa by'ikoranabuhanga byo kohererezanya cyangwa kwakira amafaranga binyuze mu buryo bwa telefoni, hakaba hari abantu batatu inyuma basa nk'abaje kwaka serivisi imwe imbere hakaba harimo undi muntu utanga serivisi.

Abakozi ba sosiyete itanga serivisi z'itumanaho n'iyohererezanya n'iyakira ry'amafaranga binyuze kuri murandasi bambaye imyenda y'umuhondo iriho ibirango by'icyo kigo, abakiriya baraza bakabaza ibibazo ndetse bagahabwa na serivisi z'icyo kigo.

Umugabo wambaye imipira ibiri umwe w'amaboko maremare warengejeho undi w'ibara ry'umuhondo wa sosiyete itanga serivisi z'itumanaho ndetse ahagaze imbere y'ipikipiki iri mu mabara y'iyo sosiyete, inyuma ye hari icyapa cyamamaza.

Urubuga rwo guhahiraho kuri interinete ruragaragaza ibintu bitandukanye, umuntu ashobora guhaha ndetse byerekana n'ibiciro byabyo hasi yabyo. Uru urubuga rufite ibara ry'umweru ndetse hagiye hariho ubwo ko bw'ibintu byinshi.

Ipikipiki iriho agasanduku kari mu ibara ry'icyatsi kariho ibirangantego bya sosiyete itanga serivisi zo kugurisha ibintu kuri murandasi bakabikugezaho ihagaze mu gikorwaremezo cy'umuhanda ukozwe mu mabuye.

Urubuga rwo kuri murandasi rutangirwaho serivisi zo guhaha ibintu mu mahanga bikakugezwaho, ni urubuga ruriho amadarapo ane y'ibihugu bitandukanye birimo, Ubushinwa, Ubuyapani, Ubuhinde ndetse na Leta zunze ubumwe z'Amerika.

Iduka rigezweho ryo kuri murandasi; aho umuntu atumiza icyo ashaka kikamugeraho iwe akoresheje murandasi kuri interinete; rurerekana nimero wababonaho n'uburyo wakinjira kuri urwo rubuga.

Icyapa cyamamaza inama ibera kuri murandasi, kiriho abagore benshi, hariho uburyo ushobora kwinjira muri iyi nama ndetse hariho n'abateye inkunga iki gikorwa.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo gitanga serivisi zo guhahira kuri murandasi ruriho akagare karirimo ibara ry'ubururu kifashishwa mu gutwara ibintu by'ibiguzi mu iduka rigezweho, hariho imirongo y'amatara ari mu ibara rya move ndetse n'icyatsi.

Amafaranga ibihumbi magana atandatu y'amanyarwanda yagufasha kubona inzu y'ibyumba bibiri byo kuraramo itarimo ibikoresho byo mu nzu, iri muri Kigali mu gace ka Remera ku kwezi, iyi nzu ikaba igizwe n'ubwiherero ndetse n'ubwiyuhagiriro bigezweho bigizwe n'amakaro.

Inzu nziza cyane kandi ifite isuku yubatse mu buryo bugezweho, ikaba izengurutswe n'igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye. Ahaganamo imbere y'igipangu kandi hakaba hari ubusitani butoya burimo indabyo nziza. Iyi nzu ku mafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'amanyarwanda, ushobora kuyigura, iherereye mu Rwanda muri Kigali.

Inzu nziza cyane kandi yubatse mu buryo bugezweho igurishwa muri kigali iherereye mu gace ka kanombe kuyibona ni ukuba ufite amadorari ibihumbi mirongo itandatu na bitanu ni inzu nshyashya igurishwa kandi ifite amarangi meza ikaba ifite n'ibisenge bitandukanye.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho irimo serivisi z'ubukode n'ubucuruzi iherereye mu Rwanda muri Kigali mu gace ka Kabeza ku mafaranga magana atanu mirongo itanu y'amanyamerika y'amadolari, ushobora kubona iyi nzu ku kwezi mu ruganiriro cyangwa se baruhukira hari intebe ndende imbere yaho hari ameza iruhande rw'intebe hari icyo bita igikoni cyangwa se aho batekera.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho igizwe n'amakaro ndetse n'amarangi meza ku mafaranga miliyoni ijana na mirongo ine y'amafaranga y'amanyarwanda ushobora kugura ino nzu muri kigali mu Rwanda, iyi nzu kandi yerekana ku rubaraza hanze ubwiza bwaho ndetse no mu nzu bisa nkaho ifite uruganiriro runini.

Serivise z'ubutaka nyaburanga, hakaba hari inzu y'ikirenga ifite ibyumba bine byo kuryamamo, iherereye mu gace ka Gisozi, muri Kigali. Iyi nzu kandi ikaba iri kwerekana ubwiyuhagiriro bugezweho, ndetse n'ubwiherero.

Inzu igurishwa miriyoni mirongo irindwi n'ebyiri i Kigali, ifite igipangu kinini ndetse n'inzu yubatse mu buryo bugezweho, igipangu n'umukara ndetse hanze hari umuhanda w'igitaka.

Icyo miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'amanyarwanda zishobora kukugurira muri Kigali, mu Rwanda. Mu karere ka Kanombe muri Kigali, haragaragazwa kandi ubwiherero bwubatse mu buryo bugezweho, buri mu cyumba cyangwa se mu nzu igizwe n'amakaro ndetse n'ubwiyuhagiriro.

Umugabo uhagaze mu cyumba kirimo ubusa kirimo amatara ari gutanga urumuri ruhagije, ucuruza ndetse akanagurisha ibijyanye n'amazu arerekana icyo cyumba, ku ruhande hanze hari ubusitani buriho n'ibiti.

Inyubako nini cyane igeretse inshuro zirenze ebyiri, yubatse mu buryo bugezweho ndetse yubakishijwe amatafari ahiye, ku madorari y'ayanyamerika maganatanu mirongo itanu, ushobora kubona iyi nyubako ku kwezi, iherereye muri Kigali mu Rwanda.

Icyumba cyo mu nyubako iherereye i Kigali igurishwa miliyoni zigera kuri mirongo irindwi n'ebyiri, icyumba kitekerwamo kirimo ibikenerwa byose harimo utubati tugezweho ndetse cyubakishejwe n'amakaro.

Icyumba kinini kiri mu nzu igezweho isize amarangi y'umweru ndetse n'amatara atanga urumuri, ni inyubako iherereye Kigali ikodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu ku kwezi ni Kacyiru.

Icyo amafaranga miliyoni jana na mirongo itatu y'amanyarwanda ashobora kugura muri kigali, mu inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ifite ibyumba bibiri iherereye mu gace ka Kabeza, muri Kigali irerekana ubwiherero bwubatse mu buryo bugezweho, ndetse n'ubwiyuhagiriro.

Inyubako igurishwa miliyoni zigera kuri mirongo icyenda n'eshanu iherereye i Kigali. Inyubako iteye amarangi y'umweru ndetse irimo amakaro, inyubako igaragaramo ibikoresho bike byo mu nzu.

Icy'amafaranga y'amadolari y'Amanyamerika igihumbi magana atanu ku kwezi ushobora kubona muri Kigali mu Rwanda. Inzu nziza cyane ifite igisenge cy'imbere cyubatse mu buryo bugezweho ndetse n'itara riramurika, munsi kandi hakaba harimo uburyamo cyangwa se uburiri busashe neza kandi buteguye neza, iruhande hakaba hari idirishya.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho irimo iramamazwa bivuga ko ku madolari mirongo itatu n'atanu y'ayamerika ushobora kuyibona ku munsi, hakaba handitse amagambo avuga ati:"nimuze turebe icyo ushobora kubona muri kigali ku madorari mirongo itatu n'atanu gusa y'abanyamerika ku ijoro rimwe".

Inzu yamamazwa kandi nziza cyane, itarimo ibikoresho byo mu nzu. Iyi nzu ifite ibyumba bibiri, icyumba kimwe cy'ubwiyuhagiriro ndetse ikaba iherereye mu gace ka Kibagabaga. Iyi nzu kandi ikaba igizwe n'amakaro ndetse n'amarangi meza.

Inyubako nziza cyane yubatse kandi mu buryo bwiza bugezweho igurishwa ku mafaranga ibihumbi cumi na bibiri by'amadorari ya amanyamerika ushobora kubona inzu ifite ubuso bwa magana arindwi iherereye muri Kigali mu Rwanda mu gace ka Kagarama.

Inzu nini yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amakaro, ku mpande hagiye hari uturabyo ndetse ku mpande hari ubusitani, inyuma hari ibiti ndetse iyo nzu irakodeshwa amafaranga angana n'ibihumbi magana abiri.

Amahirwe yo gushora imari mu mitungo itimukanwa, hakaba hari inzu nziza cyane ikodeshwa ikaba ari inzu ifite ubwiza yubatse kandi mu buryo bugezweho, iyi nzu kandi ikaba ituriye umuhanda, iyi nzu ituye mu gace ka Kabeza muri Kigali, ikaba isize irangi ryiza cyane.

Inzu yamamazwa igurishwa iherereye mu gace ka Kabeza yegeranye n'umurenge, ifite igisenge kinini ndetse yubakishijwe amabuye, iruhande rwayo kandi ikikijwe n'igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Inzu yamamazwa nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, ifite isuku ndetse n'amarangi meza, ikaba ari inzu irimo ibikoresho byose ikodeshwa, ifite ibyumba bitatu byo kuraramo ndetse n'ibyumba bibiri by'ubwiherero, ku madolari y'Amanyamerika igihumbi ushobora kuyibona ku kwezi.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho ikodeshwa iherereye mu gace ka Kanombe muri Kigali, igizwe n'ibyumba bine ndetse n'ibyumba bitatu by'ubwiherero cyangwa se ubwogero. Iyi nzu ikikijwe n'igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, iyi nzu kandi igizwe n'amarangi menshi kandi meza ndetse igizwe n'amakaro.

Inzu iriho iramamazwa ifite ibyumba bibiri, icyumba kimwe cy'ubwiherero cyangwa se ubwiyuhagiriro, icyumba cy'uruganiriro cyangwa se cy'aho baganirira, icyumba cy'igikoni hanze aho imodoka ziparika. Ku mafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo irindwi by'amafaranga y'amanyarwanda, ushobora kuyibona ku kwezi.

Umugabo wambaye neza yambaye imyambaro twite ikositimu ndetse na karuvati, akaba ahagaze imbere y'inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, ikaba igizwe n'amarangi y'umweru ndetse ikaba igizwe n'inzugi zifite ibirahure ndetse n'amadirishya y'ibirahure, uyu mugabo kandi akaba ahagaze asa nk'uvuga ku byerekeye iyo nzu bikaba ari ukwamamaza imari mu mitungo itimukanwa.

Inzu nini y'amagorofa atatu yubatse neza, imbere hari ibipangu bibiri bisa biri mbere y'umuhanda w'igitaka, ku ruhande hari izindi nyubako zubatse nazo neza ziteye amarange y'umweru.

Inyubako nini icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye hakaba hari iduka ririmo ibintu bitandukanye by'ibinyobwa, akaba ari n'umugabo uhagaze iruhande rwayo, afite igitebo umuntu ashyiramo ibyo arimo aragenda acuruza ahitamo; iruhande rw'aho agaze hari akabati katenzemo ibintu byinshi by'ibinyobwa ndetse n'ibindi bitandukanye by'ibiribwa.

Iduka rinini rigezweho, ricuruza ibikomoka ku mafarini, harimo imigati, amakeke ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaba inacuruza ndetse n'ibikomoka ku ikawa.

Inyubako nini ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye, hagaragara ahantu hari ibicuruzwa by'amavuta ndetse n'udukapu, amasabune ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu bari gukora ibikorwa bitandukanye; bamwe barimo barareba ibicuruzwa, abandi bariho baraganira, abandi bari kwitambukira.

Iduka rinini rigezweho. Amatara ari muri buri ruhande aratanga urumuri runini, ndetse abagura baraca mu bigurishwa bahitamo; umucuruzi ari hafi yabo.

Mu nyubako nini itangirwamo serivisi zo gucuruza ibintu by'ubwoko butandukanye, amatara atanga urumuri ruhagije ndetse hari n'utubati dukoze mu birahure, umuntu wambaye umupira w'umutuku arafata ibyo aguze akabishyira mu ndobo y'umukara yabugenewe.

Isoko rinini ricuruza ibintu bitandukanye, imbere kandi hari umugore cyangwa se umukobwa wicaye ku gatebe asa nkuwegamiye uruhande rumwe ruriho ibicuruzwa bimwe arareba kandi uruhande rw'wiburyo bwe, ku rundi ruhande hariho imyambaro ndetse n'udukapu tuboshye.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho igeretse, ijyanye n'iby'ubucuruzi bugiye butandukanye, habamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo aho abantu bashobora gufatira amafunguro, ibyerekeranye n'ubucuruzi bw'imyenda, iby'ibiribwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ikaba igaragara irimo abantu bagenda ndetse hari ahantu hari utumeza dutendetseho n'utuntu tw'umutuku ndetse ku mpande hariho intebe.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda y'akazi k'abashinzwe umutekano, bicaye imbere ya za mudasobwa bari gutanga serivisi zo kubarura ibyaguzwe mu iduka ry'abashinzwe umutekano.

Imurikagurishwa ry'ibikoresho bikomoka ku mboga n'imbuto, harimo abagabo bagera kuri batatu ndetse n'umudamu umwe bari gutanga amahugurwa banasobanurira ibijyanye na poroduwi bafite.

Ahantu hanini cyangwa se inyubako nini yubatse mu buryo bugezweho ikorerwamo ubucuruzi, ikaba ifite kandi amagorofa atandukanye, buri gorofa hagiye harimo ibyumba bitandukanye bigenewe abantu batandukanye, ndetse kandi buri gorofa hagiye hariho ikirango kigaragaza ibintu byihariye biri muri aho hantu, bicuruzwamo.

Mu iduka rinini rigezweho, ririmo amatara menshi atanga urumuri ndetse hari urujya n'uruza rw'abantu b'ingeri batandukanye, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hasi hari amakaro.

wambaye imyambaro myiza cyane kandi usa nk'uri mu myaka ikuze imbere ye hari amagambo yandikishije mw'ibara ry'umweru yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda avuga uti ''uzakomeza kurimba no muri pansiyo'' bivuze uti uzakomeza kwambara neza no mu gihe cy'izabukuru, hejuru yaho hakaba hari irindi jambo ryanditseho ejoheza ndetse n'igishushanyo kiri hejuru bivuze ubwizigame bw'igihe kirekire.

Ikarita itangwa n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi bw'u rwanda; ni ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza; iriho ibimenyetso bibiri by'ibirangantego bya sosiyete ebyiri zitandukanye; imwe n'itanga serivisi z'ubwishingizi, indi ni iy'ubuzima.

Ifishi y'ubwisungane mu kwivuza ifite ibara ry'umuhondo yanyandikishijeho amagambo y'umukara harimo agafoto k'umwana ukiri mutoya ndetse iyi fishi igizwe n'umwirondoro w'uyu mwana harimo ishami ry'ubwisungane mu kwivuza, amazina y'umunyamuryango, nimero y'umunyamuryango, ndetse n'agace umwana abarizwamo mu kindi gihande kandi harimo igihe yishyuye umusanzu ndetse n'igihe yagiriye agaciro iyi fishi.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'icyapa cyanditseho amagambo ahinye asobanura umuryango ushinzwe serivisi z'ubwiteganyirize mu Rwanda abo bagabo bombi bafite sheki nini bikaba bishoboka ko ari igikorwa kijyanye no gutanga cyangwa kwakira ubufasha bw'amafaranga .

Umugabo wambaye neza cyangwa se umusore afite indangururamajwi mu kiganza cye kimwe, ikindi kiganza cye kiramanuye, umugabo kandi akaba asa nk'uri kuvuga cyangwa se atanga ibiganiro abwira abamureba cyangwa abamurangamiye, hakaba hari abandi bantu bicaye basa nk'abari kumva ibyo ari kuvuga.

Icyapa gisa nk'ikiri ku nkengero y'umuhanda kijyanye n'ibindi bikorwa by'ubwishingizi bw'imibereho myiza iki cyapa kikaba cyanditseho ijambo ejo heza ubwizigame bw'igihe kirekire . Ibi bikaba ari gahunda y'ubwizigame bw'igihe kirekire yashyizweho na leta y'u Rwanda binyuze muri minisiteri y'imari n'igenamigambi iruhande rwaho kandi hari imodoka ziparitse ndetse n'inyubako zubatswe mu buryo bugezweho ku rundi ruhande hari ihema ririmo abantu bake nka babiri ariko batagaragara neza.

Iduka rinini kandi ryiza rigezweho kandi ryubatse mu buryo busa neza, ribamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibyo kunywa, ibyo kurya, ibyinshi bikaba bikozwe mu nganda. Ndetse hakaba hari umuntu uriho uragaragara igice kimwe, rikaba kandi rifite amakaro hasi ndetse n'amatara ari kumurika hejuru.

Isoko ni irigezweho ricuruzwa ibintu bitandukanye. Harimo ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, byinshi kandi bikaba bikomoka mu nganda. Iyo nyubako birimo ikaba igizwe n'amakaro ndetse hejuru amatara aramurika .Hari umugore cyangwa se umukobwa ugenda ukuriye igikapu cyangwa se igitebo asa nk'uri kugenda ahaha , cyangwa se areba ibyo yishimira ngo agure.

Iduka rinini rigezweho, ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo urumuri ruri gutangwa n'amatara menshi. Harimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi.

Isoko rinini kandi ricuruza ibintu bitandukanye harimo ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, umuntu w'igitsina gore arasa nkaho arimo arapakira igitebo cye ahahiramo cyangwa se apakurura, inyuma ye hari abandi bagabo batatu umwe yambaye umupira w'umuhondo wanditseho ibintu byerekeranye no kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga rya telefoni.

Isoko rinini rigizwe n'utubati dutenzemo ibicuruzwa ndetse hagati y'utubati hagiye harimo inzira yubakishijwe amakaro hasi, iri soko rini ni ahantu abakiriya bajya guhaha ibicuruzwa bitandukanye birimo ibiribwa ibinyobwa ibikoresho byo mu rugo imyenda n'ibindi bintu byinshi.

Iduka ririmo amakaro amatara aramurika harimo ibinyobwa bitandukanye biva mu nganda zitandukanye hari umugore cyangwa se umukobwa ugaragara igice cyo hejuru umutwe ntugaragara ndetse n'igice cyo hasi ntikigaragara, agaragara afashe ku binyobwa bibiri n'ikiganza cye hirya kandi hari ibyuma bikonjesha birimo ibinyobwa bitandukanye.

Iduka rigezweho ricuruza ibintu bigiye bitandukanye ririmo ikoranabuhanga rigezweho ryo kwishyura ndetse no kwakira amafaranga binyuze muri murandasi umuntu afite telefone ndetse n'imbere hari mudasobwa y'umweru inyuma hari ibikorwa ndetse n'ibigurishwa byose.

Mu isoko rinini rigezweho riherereye Sonatube rya sosiyete yitwa Simba, hacururizwamo ibintu bitandukanye by'ubwoko butandukanye ibikoresho byo mu nzu, ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi.

Isoko rinini kandi rigezweho ricuruza ibintu bigiye bitandukanye by'ubwoko bwinshi, harimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, iri soko rikaba rigaragaza ahantu ibicuruzwa bitenze neza ku murongo bisa neza, amatara akaba ari kumurika kandi hejuru menshi ndetse hasi rikaba rigizwe n'amakaro.